Turikumwe gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego radianti yacu ubwishingizi buciriritse.

Abagabo batatu babiri bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku akaba afite icupa ry'amazi y'inyange mu ntoki ze ndetse yambaye n'isaha.

Umugore wambaye ishati n'ipantaro y'umukara ari kwamamaza ubwishingizi ati tegura urugendo rwawe ntiwibagirwe gufata ubwishingizi bwingendo zijya mumahanga muri radiyati isezerano ni isezerano.

Inkweto nyinshi zigurishwa harimo iz'abagore ziba zishinze zirimo amabara atandukanye nk'umweru, umukara ndetse n'irozi n'iz'abagabo zikunze kwitwa nshongo zirimo amabara y'umukara, igitaka ndetse n'ubururu.

Umucuruzi wambaye ingofero y'umweru mumutwe wumudamu nisengeri y'umukara ari mwiduka irimo ibicuruzwa byibiribwa inyanya, ibirungo, amavuta n'umunyu.

Inzu ifite imiryango ibonerana, bikaba bigaragara ko hacururizwamo imyambaro, harimo amapantaro, amakanzu y'abantu bakuru, harimo n'imipira, n'amapantaro y'abana batoya, ndetse n'inkweto.

Amaduka acuruzwamo imyenda yo kwambara asize irange ry'icyatsi, imbere yayo maduka hakaba hari abagabo bacuruza imyenda ndetse n'undi ufite imisego yo kuryamaho.

Umugore wirabura uri guseka wambaye igitenge ahagaze imbere y'urukuta rw'umweru, ndetse n'akabati kamanitseho ibindi bitenge by'amabara atandukanye.

Inzu irimo akabati karimo ibitenge by'amabara atandukanye bikaba bipanze muri ako kabati harimo amabara y'umukara, icyatsi, umutuku.

Inzu icururizwamo imyenda y'abana, harimo amakunzu matoya amakabutura ndetse n'imipira.

Umugore wambaye ikoti n'agatambaro k'umweru mu mutwe wirabura, ari mu iduka ricuruza ibyo kurya harimo ifarini, kawunga, umuceri ndetse n'ibirungo.

Ahacururizwa ibikapu by'abagore ndetse n'iyindi mideli bakoresha, harimo n'intebe zitukura ziteretseho ibyo bikapu bisa n'umukara, ibisa n'umweru ndetse n'ibisa na kake, hakaba harimo n'imiringa.

Umugore wambaye agatambaro k'umukara mu mutwe, ndetse n'umupira w'umuhondo, n'itaburiya y'umukara, afite igikoresho cye cy'ikoranabuhanga mu ntoki, ahagaze mu isoko, ahacururizwa ibiribwa, harimo inyanya, ibitunguru, ndetse na karoti.

Abagabo bane n'umugore umwe, batatu bicaye, abandi babiri bahagaze, bicaye ku ntebe zitukura, bari mu cyumba gisize ibara cy'umeru, harimo n'imodoka.

Imodoka y'umukara ikorwa n'uruganda rwa toyota igendwamo ku buryo bwihariye, imodoka muri rusange ifasha mu ngendo za kure cyangwa igafasha no kugenda igihe ibihe bikomeye nk'igihe hari kugwa imvura nyinshi se izuba ryinshi, muri make imodoka irafasha mu ngendo.

Inzu icururizwamo imodoka hakaba harimo imodoka z'umukara ebyiri, iyi nzu ikaba ari iy'uruganda rwa yundayi.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati yumweru, ipantaro yumukara, ndetse n'inkweto z'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu n'ingofero mu mutwe n'ipantaro yumukara bafite ikirango cy'akagera inyuma yabo hari imodoka ygikamyo ya Fuso.

Imodoka y'umukara icanye amatara ikaba ihagaze mu muhanda w'umukara yo mu bwoko bwa toyota yanditseho isoko ry'imodoka rya Kigali, ikaba ari imodokadoka yakozwe bibiri na cumi n'umunani iri kugurishwa miliyoni cumi n'eshatu z'amanyarwanda.

Imodoka y'umukara yubwoko bwa yundayi icanye amatara yimbere kumpande zombi hahagaze abakobwa bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'ubururu bafashe kumiryango ifunguye.

Imodoka isa n'umukara igendwamo mu buryo bwihariye, icanye amatara y'imbere, iragendera mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara uciyemo umurongo usa n'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye amashati y’ umweru, umwe wambaye ipantaro y ’ubururu undi wambaye ipantaro y'umukara. bafite mu biganza byabo ikimenyetso cy'akagera, inyuma yabo hari ibikamyo bibiri kimwe cy'ubururu ikindi gisa n'ibara ry'ivu.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro isa n'ivu bakaba bafite mu ntoki zabo ikirango cya kampani yitwa AKAGERA MOTORS, inyuma yabo hakaba hari kimwe mu gikamyo bacuruza.

Imodoka nshyashya y'umweru ifite amapine y'umukara, ikaba iri mu cyumba kirimo n'izindi modoka, inyuma yaho hakaba hari izindi modoka ebyiri z'umukara. Ikaba iri mu cyumba gifite amakaro.

Imodoka y'umukara ihagaze ikaba ifite amapine y'umukara ndetse n'amatara imbere yayo yo mu bwoko bwa kiya ikaba yanditseho ko ari imodoka iri mu isoko ry'imodoka rya Kigali.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, n'ikoboyi y'ubururu ari kumwe n'undi wambaye ikoti ndetse n'ipantaro bisa kacyi, mu biganza byabo bafashe ikimenyetso cyanditseho akagera inyuma yabo hateretse ama modoka mashyashya atandukanye.

Imodoka isa n'umukara ifite amapine y'umukara yo mu bwoko bwa yundayi ihagaze mu muhanda w'umukara yanditseho isoko rya Kigali ry'amamodoka, niba ushaka kuyigura hamagara kuri nimero zeru karindwi umunani mirongo itandatu na gatatu mirongo itatu n'umunani mirongo icyenda kane.

Imodoka nziza y'umukara ifite imiryango ine inyuma yayo hakaba hari utwatsi, ikaba iparitse itarimo kugenda.

Ameza y'ikirahure iteretseho imvaho ndetse n'agacupa k'amazi y'inyange, imbere yayo meza hakaba hari igikamyo cy'umweru.

Abagabo babiri bafite ikimenyetso kimeze nk'urufunguzo cyanditseho amagambo ya akagera bahagaze mu mbuga iri imbere y'inzu ishashemo amabuye, inyuma yabo hahagaze imodoka ebyiri zisa n'umweru.

Abagabo babiri bose bambaye amashati y'ubururu, umwe akaba yambaye ingofero yambaye n'ipantaro y'umukara undi akaba yambaye ipantaro y'ubururu, bafite mu ntoki zabo icyapa cyanditseho AKAGERA MOTORS inyuma yabo hakaba hari imodoka y'abagenzi bagurisha.

Amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri, cyemewe na banki nkuru y'u Rwanda, gishushanyijeho insina ifite igitoki, cyakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Iki giceri, kn'andi mafaranga yose, gikoreshwa mu kugura ibintu.

Igiceri cyakozwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi gikozwe na banki nasiyonari y'u Rwanda gishushanyijeho ibibabi ndetse gisa na zahabu.

Igiceri cyakozwe mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi cyanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, ikaba ari igiceri gisa na zahabu cyakoreshwaga m'u Rwanda icyo gihe ndetse kikaba kiriho n'igito n'insina.

Abantu batatu bahagaze imbere y'utuzu dufite ibirahure bibonerana hicayemo abakozi bakora muri banki bashinzwe kwakira ababagana bababikira cyangwa babikuza amafaranga.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'abacunga umutekano ndetse bafatanyije guterura isanduku, bayijyanye ku modoka, bari inyuma yayo, isa n'ubururu, iyo modoka ikaba iriho ikimenyetso cya Isiko.

Inoti iri kumeza y'amafaranga ijana y'u Rwanda yemejwe na banki nkuru y'u Rwanda.

Amafaranga ari mu bwoko bw'igiceri gishushanyijeho ikawa, yakozwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi, hariho ibirango ko yemewe na banki nkuru y'u Rwanda amafaranga akoreshwa mu guhaha.

Inote y'amafaranga ifite ibara ry'iroze harimo ishusho y'ingagi, ikaba ari inote ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, ikaba ifite agaciro k'amafaranga ibihumbi ibihumbi bitanu by'amanyarwanda.

Abategarugori babiri bicaye mu cyumba imbere yabo hari mudasobwa icyo cyumba akaba ari icya banki ya Kigali.

Amafaranga y'amadorari akoreshwa mu gihugu cy'amerika ndetse n'ahandi hose ku isi akaba ari inote z'ijana ari kumwe n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cya kenya.

Umugabo wambaye umupira wo kwifubika ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ari mu nzu isize amabara y'umweru aho bacururiza ibiribwa harimo amasambusa, amandazi, amazi yo kunywa, imitobe ndetse n'amata.

Imeza iteretseho agasorori karimo ubutambaro bukozwe mu gipapuro bukoreshwa mu gihe umuntu ashatse kwihanagura ibiryo ku munwa cyangwa kuhanagura amazi mu biganza, cyangwa guhanagura amavuta igihe amaze kurya arisha intoki.

Inzu isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru iteretsemo ibicupa binini by'amalitiro makumyabiri y'amazi, hakaba harimo icyuma gikonjesha amata, hakaba hanagurishirizwa amata ndetse n'amazi.

Akazu k'umweru gafite intebe hanze yako z'ubururu n'ameza y'umweru, gafite icyapa cy'Inyange, hagurishirizwamo amata y'Inyange, hanze hari na kandagira ukarabe.

Icyuma gikonjesha amata ndetse nutubido tw'umweru turi mukabati dushyirwamo amata yakonje.

Muri resitora hari ameza y'umukara ateretseho ibiryo biri ku isahani y'umweru, iruhande rwaho hateretse igikombe kibonerana gikoze mu kirahure kirimo amata y'ikivuguto.

Amata avanzemo inkeri aryoha cyane ya Mukamira, ari mu gikombe gisa n'umukara kijyamo amagarama magana abiri mirongo itanu.

Inzu ifite inkuta zisize amarangi y'ubururu mo imbere hari kwaka amatara, hahagazemo umugore iruhande rwe hari icyuma gifite ibirango by'inyange indasitirizi, n'icyuma gikoreshwa mugukonjesha amata.

Abantu batatu bicaye mu nzu isize amarangi y'ubururu n'umweru, harimo umukobwa ndetse n'abasore babiri. Imbere yabo bicaye mu ntebe z'umweru imbere yabo hari imeza iteretseho ibikombe by'amata y'ikivuguto barimo baranywa.

Umugore wambaye ijire y'umweru y'akazi, afite igikombe cy'amata ari gusuka mu kindi gikombe cy'amata, imbere ye hakaba hari imeza ndetse n'idirishya risize ibara ry'ubururu..

Ibicuba birimo amata, akaba ari ibintu bikozwe mu cyuma babikamo amata kugira ngo bayagemurire abayakeneye, inyuma y'ibyo bicuba hakaba hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara no hirya hakaba hari undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bari gusuka amata.

Ibyokurya bikozwe mu ifarini bya capati, biteretse ku isahani iri hejuru y'ameza asa n'umweru, ibi byo kurya bikomeza mu nda bifatwa ku ifunguro rya mu mugitondo, akenshi bifatishijwe icyayi amata se ibi byo kurya ni ingenzi kuko byongera imbaraga.

Utubido ndetse n'uducupa, bishyirwamo amata y'ikivuguto, kugira ngo abayakeneye bayaguriremo, bikaba biri mu rugero rutandukanye, harimo ibya litiro ndetse n'iby'inusu.

Isahani y'umweru isizeho n'amabara y'umutuku, hariho agatambaro gahanagura umwanda ndetse n'irindazi.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara. Yambaye umupira w'amaboko magufi usa n'umuhondo ufite ibirango bya kompanyi ikora iby'itumanaho ya emutiyene, afashe icupa rijyamo umutobe wa coca cola mu ntoki ze.

Urupapuro nkoranabuhanga rwasohowe, ruri kugaragarira muri mudasobwa, rurasa n'umweru, ruriho ibirango bya Rwanda reveni, ari cyo kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga ijana y'amarundi, ndetse akaba ari inoti ebyiri bisobanuye ko ari amafaranga maganabiri y'amarundi.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti yemewe na banki yo muri Tanzaniya afite agaciro ka magana atanu, ashushanyijeho inzu, iruhande rwayo hari igiti cyizinzeho inzoka. Amafaranga akoreshwa mu guhaha.

Inoti zikoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, zigera ku noti icyenda z'amafaranga maganacyenda y'amahinde.

Amafaranga yo mu bwoko bw'amadorari akoreshwa muri Amerika, ariho agaciro k'ijana ryayo, akaba ari kumwe n'ayandi yo muri Nigeriya, akaba ari amafaranga bakoresha mu gihugu cya Nigeria kikaba ari igihumbi cyayo.

Amafaranga afite ibara ry'umuhondo, akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Kongo ariho amashusho atandukanye nk'imparage. Akaba afite agaciro k'ibihumbi bitanu.

Ubwoko bw'amafaranga butandukanye, bukoreshwa mu bihugu bitandukanye, bufite agaciro gatandukanye, harimo amadorali ijana, n'ubundi bwoko bw'inoti butandukanye.

Inote y'amafaranga yo muri Tanzaniya, inote y'igihumbi, inote y'ibihumbi bibiri, inote y'ibihumbi bitanu, inote y'ibihumbi icumi by'amafaranga yo muri Tanzaniya ndetse n'ibiceri byo muri Tanzaniya.

Ibiganza by'umuntu uri kubara amafaranga y'amanyarwanda yiganjemo inote z'ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda bakoresha mu Rwanda

Inoti zigera ku icumi z'amafaranga mirongo itanu y'amayero, angana n'ibihumbi magana atanu by'amayero.

Ibiganza biri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, amafaranga ni ingirakamaro mu mibereho ya muntu arakorerwa umuntu ajya ku kazi agakora imirimo bakamuhemba amafaranga. Amafaranga adufasha gukemura ibibazo nko guhaha, kwishyura amazu, kwishyura ubwishingizi, n'ibindi.

Iruhande rw'ahakorera ibiro by'ivunjisha nka forikisi biro, hari akapa kariho amafaranga menshi agiye atandukanye y'amanyamahanga n'uburyo ki acuruzwa cyangwa akavunjishwa, ahinduwemo andi mafaranga, impande y'ako kapa hicaye umugabo wicaye ku gatebe gato wambaye ishati y'amaboko maremare.

Inzu ifite ibara ry'umweru ikorerwamo akazi ko kuvunja amafaranga yibindi bihugu uyashyira mumanyarwanda cyangwa uvana mumanyarwanda uyashyira muyikindi gihugu.

Ibiro bivunjirwamo amafaranga atandukanye yo mu bihugu bitandukanye, bitatseho ibipirizo by'umweru, umukara, n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo akamodoka Gatoya kagenewe gutwara imizigo, hakurya hakaba hari izindi modoka zitwara imizigo minini ziparitse, ibiti bikikije umuhanda, ikiraro cyambuka kiva mu muhanda kijya mu baturage ndetse n'umuyoboro munini utwara amazi.

Intebe z'umweru zivanzemo irangi ry'icyatsi ndetse n'irya zahabu imbere yazo hakaba hari akandi kameza n'ako gafite ibara ry'umweru rivanze na zahabu ziri hanze ku bakeneye kuzigura kugirango ngo bazibone.

Utubati tubiri duteretse mu nzu ifite irangi ry'umweru, irimo n'amatara utwo tubati tukaba dusa n'igitaka, duteye neza.

Inzu irimo intebe z'umutuku n'intebe z'umuhondo, imbere hazo hari akameza gasa n'itaka hamanitsemo tereviziyo muri iyo nzu.

Intebe enye zifite ibara ry'umukara zirimo n'imisego, imbere yazo hari imeza ifite ibara ry'umweru n'utundi tumeza tubiri ku ruhande tw'umweru.

Imeza iteretse mu nzu yubakishijwe amakaro, ikaba ifite intebe esheshatu ikaba isa n'igitaka hateretseho ibikombe birimo amazi.

Imeza ikozwe mu ibiti ikaba ari imeza ifite ibara risa nk'igitaka iteretse hanze ikaba ifite intebe esheshatu ziyikikije zisa nayo.

Intebe zo kwicaraho zifite amabara y'umukara ndetse n'icyatsi, imbere yazo hakaba hari utumeza dutatu dusa n'umukara.

Pisine ikorerwamo imirimo yo kwidagadura cyangwa siporo iruhande rwayo hari agahanda gato gashashemo amabuye ahiye gakikijwe n'indabyo ndetse n'insina.

Ubwogero burimo amazi, bukikijwe n'ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru n' intebe n'amatara ndetse hanasakaye.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, isize amarangi y'ubururu, imbere yaho hakaba hari pasiparume iteyemo intebe ndetse iri munsi y'ihema ku buryo umuntu yakwicaramo igihe afata akayaga.

Inzu ifite urubaraza ruriho intebe zo kwicaraho zisa n'umukara, zegamirwa, utundi dutebe duto tubaje mu giti, tutegamirwa, ameza abaje mu giti ateretse hagati, akikijwe n'intebe, intebe z'umukara zifitemo imisego, duteretse ku rubaraza, aho umuntu ashobora kureba ibidukikije.

Inzu y'umuturirwa iri iruhande rw'umuhanda, iri kwakamo amatara kubera ko ari n'ijoro iruhande rwayo ku muhanda naho hari amatara yagenewe gushyirwa ku mihanda, amurika cyane nayo arimo araka amatara yo ku mihanda arabonesha kimwe n'ayo mu nzu byose birabonesha gusa ayo ku mihanda yo aramurika cyane.

inzu ifite urubaraza ruriho ameza n'intebe, iruhande rwaho ari igikuta gisize amarangi y'umweru, hejuru hashizeho utwuma aho umuntu ashobora kwicara areba ibidukikije.

Imodoka y'umweru, ipakira imizigo, ihagaze mu muhanda w'igitaka, hirya yayo hari amaduka aparitseho izindi modoka ziteye kimwe enye, ebyiri z'umweru n'indi y'umuhondo y'icyatsi n'icyatsi, n'iyindi isa n'ivu.

Inzu ndende igeretse inshuro ebyiri, ikaba ifite amabara asa n'igitaka ndetse n'umweru, imbere yayo hateyemo ubwatsi bwa pasiparume, hateyemo n'ibiti byinshi byiza by'amabara atandukanye.

Abakozi bicaye bambaye amashati y'umweru ari abadamu ku ntebe z'umukara imbere yabo hari mudasobwa.

Inzu ikorerwamo, isize amarangi y'umweru ndetse n'ay'umukara, irimo n'amakaro hasi, hakorerwamo ubwishingizi bwitwa saniramu.

Mu nzu hari ibiro byicawemo n'umugore ku ntebe yegamirwa yumukara, ari kuvugira kuri terefone ngendanwa, hari ameza akoze mu giti ateretseho mudasobwa.

Icyapa giteye ku nzu igeretse, gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, cy'ubwishingizi bwa purime giherereye ku ishami rya Rusizi.

Inzu igeretse inshuro imwe iriho icyapa cyerekana ko hari ishami, rya kinamba bya banki y'abaturage yo mu Rwanda hariho n'icyapa cy'ubwishingizi.

Umugore wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'ubururu, yambaye ingofero y'ubwirinzi arimo aramamaza banki y'abaturage y'u Rwanda ifasha abanyarwanda kubaho neza.

Umusore wambaye isarubeti y'umukara n'umupira w'umutuku, ari kwamamaza inguzanyo ya muri banki ya Ekwiti ya miliyoni mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Abagore b'abirabura batandukanye bambaye amakanzu y'ibitenge, imbere yabo hari icyo bita inkoko ziboshye mu mabara atandukanye, harimo umweru amabara y'icunga icyatsi gifashe ndetse n'ubururu.

Isoko ricururizwamo ibiribwa harimo abantu benshi abacuruzi n'abaguzi, abacuruzi bagurisha karoti, ibijumba, imyumbati, ibitunguru, imiteje n'ibindi byinshi.

Inyubako nini igeretse mu nshuro zigera muri eshatu, yubakishijwe ibirahure ndetse imbere yayo hakaba haparitse amamodoka ndetse n'amapikipiki menshi, hakaba hari n'umuhanda w'umukara uri kugenderamo abanyamaguru ndetse n'ibindi biziga n'ibindi binyabiziga.

Isoko ricururizwamo imbuto harimo imineke, amaronji, voka, ipapayi, inanasi ndetse n'amatunda.

Isoko ricururizwamo ibintu byumuco wa kinyarwanda harimo uduseke tuboshye Ibikapu byo mubitenge ndetse ninkoni z'abasaza n'abakecuru.

Ibyokurya bitandukanye harimo imboga n'imbuto harimo ubunyobwa, ibishyimbo, imineke inyanya, amashaza ndetse na avoka bikaba biri gucuruzwa.

Isoko rya Nyarugenge ricururizwamo ibicuruzwa byinshi harimo ibiryo, imyenda n'ibindi bikoresho imbere yaryo hakaba hari imbaga y'abantu benshi cyane ndetse bicaye kuri moto.

Abagore babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'igitenge undi wambaye igitende cy'umuhondo, bari mwisoko ahacururizwa imboga, ibitunguru, inyanya ndetse n'imineke.

Amazu menshi harimo afite amabati y'umutuku n'afite amabati yubururu, imbere yayo mazu haparitse imodoka ziriri mu bwoko butandukanye, harimo ibikamyo bishinzwe gutwara imizigo, bipakiye imizigo myinshi harimo n'imodoka zisanzwe zimyanya ine.

Isoko riri kugenderamo abantu benshi, baza bahita abaguzi n'abacuruzi. Ricururizwamo imyambaro, nk'inkweto z'amabara atandukanye : umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Umugore uteze igitambaro cy'icyatsi mu mutwe uri gucururiza mu isoko, ari gucuruza imbuto zirimo; amacunga ndetse n'indimu, iruhande rwe hari n'imyumbati ndetse n'udufuka turimo ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Isoko ricururizwamo imyambaro y'abantu harimo ibitenge amakanzu ndetse imipira n'amapantaro, hakaba harimo n'abandi bantu bafite amamashini yo kudoda imyenda, ku buryo uyikeneye aza akavuga umwenda ashaka bakawuumukorera.

Akazu k'ibyuma, gasize amarangi y'umuhondo, n'ibirango cya kompanyi itanga ibijyanye n'itumanaho ry'amatelefoni mu Rwanda, rya emutiyeni, kicawemo n'umukozi uhagarariye ibikorwa byaho by'ubucuruzi, ari kwakira abantu.

Amahema abiri y'umutuku ya eyateli ahagazemo abantu, umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umutuku ipantaro y'umukara n'umugore wambaye umupira w'umutuku n'ishakoshi y'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Akazu gasa n'umuhondo gafite ibirango bya emutiyeni kubatse imbere y'inzira nyabagendwa, iruhande rwabo hashinze icyapa ndetse hari n'akayira kagendedwaho n'abanyamaguru, akazu gakorerwamo n'umukozi uhagarariye ibikorwa bya emutiyeni.

Akapa gakoze mu rupapuro rukomeye gahagaze kariho imibare ikoreshwa mu kwishyura bakoresheje telefone ngendanwa mu buryo bwa emutiyeni, kariho ko umuntu ashobora gukanda akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, akabasha kuba yakishyura akoresheje telefone ngendanwa.

Umugabo uhagaze imbere y'akazu ka MTN wifashe mu mayunguyungu, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kuvugana n'umukozi ukorera muri ako kazu ka MTN w'umudamu.

Akazu k'icyuma gashinze ku muhanda gasa umuhondo kanditseho ibimenyetso bya emutiyeni hakaba harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo ucuruza ibijyanye na emutiyeni, inyuma yayo hakaba hari indi nzu itukura bakoreramo ubucuruzi.

Ishyuranarana momopeyi izina ry'umucuruzi ngabonziza Jean Bosco, kanda akakanyenyeri rimwe umunani kabiri akanyenyeri, umunani akanyenyeri rimwe, akanyeri icyenda zeru kabiri gatanuzeru gatanu urwego.

Ifoto y'akazu ka emutiyeni, aho bagurira amayinite, bakanabitsa, cyangwa bakabikuza amafaranga kuri telefone, hakaba hari inyuma y'ako kazu amashami y'ibiti menshi. Inyubako.

Akazu kicawemo n'uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya kompanyi y'ibijyanye n'itumanaho, ya eyateteri kegeranye, n'akazu gakorerwamo n'uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya kompanyi y'itumanaho rya emutiyene gafite ibirango bya emutiyene n'amabara y'umuhondo.

Akazi gakozwe mucyumba gasize iragi ry'umuhondo ka MTN gatagirwamo serivise zayo hahagaze abantu batanu, harimo abagabo batatu n'abagore babiri mimbere harimo umuntu w'umudamu utanga serivise.

Icyumba gifashirizwamo abagana umuyoboro wa emutiyeni igihe bagize ibibazo ku gikoresho cyabo k'ikoranabuhanga.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi usa n'umuhondo ari kuvugira mu ndangururamajwi ahagaze imbere y'abantu benshi bicaye mu itente bambaye imipira nayo y'imihondo iciye amaboko inyuma yabo hari ibirango bya kompanyi ya emutiyeni.

Umusore wicaye ku ipikipiki y'umukara ihagaze ifiteho agasanduku k'icyatsi n'umukara gatwarwamo imizigo.

Umugabo w'umuzungu wambaye agapfukamunwa n'ingofero y'ubwirinzi n'ishati y'ubururu n'umweru atunze agatoki imbere, inyuma ye hari ibiti byo kubaka.

Inzu irimo amakaro ifite urugo rusa nigitaka isize amarangi y'umuhondo n'umweru nicyatsi, iherereye ikigali m'urwanda igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda.

Inzu iherereye Kacyiru, i Kigali, mu mujyi wa Kigali, irimo amakaro, ndetse irimo n'igikoni cy'amajyambere, ikaba ari inzu iherereye mu Rwanda, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu igeretse inshuro imwe, iriho ibirahure, ndetse ikaba isize ibara ry'umweru ndetse n'ivu, mu gipangu cyayo hakaba haparitsemo imodoka y'imyanya ine. Akaba ari inzu iherereye Kibagabaga, mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amadolari ibihumbi bibiri ku kwezi.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba ari inzu ishyizemo amarangi y'umweru ndetse n'ivu ikaba irimo n'amakaro ikaba ari inzu igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda.

Ubwiherero bwo kwicaraho bwo munzu iherereye ikigali muri Kanombe, igurishwa miriyoni mirongo irindwi na ebyiri za amafaranga ya urwanda.

Icyumba gitegurirwamo ibiryo harimo n'igikoresho gikonjesha ibiryo, hakaba harimo ndetse n'aho bogereza ibikoresho byo mu nzu harimo n'utubati babikamo, ndetse n'igikoresho babitekeraho.

Umugabo uhagaze mun nzu ishashemo amakaro yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru yizinze yambaye n'inkweto z'umukara, ahagaze inyuma y'intebe zicarwaho z'imisego yegamirwa, impande yaho hari idirishya ribonerana ryerekana hanze.

Inzu isizemo irangi ry'umweru, irimo n'amakaro, ikaba ari inzu iri muri Kigali mu Rwanda ikaba ari inzu igurishwa amafaranga miliyoni mirongo ikenda n'eshanu z'amanyarwanda.

Mu rubaraza rw'inzu ifite inkingi zisize amarangi y'umweru, hateretse ivasi isa n'umukara iteyemo akarabyo hasi mu mbuga hegereye iyo nzu hashashemo amatafari.

Umugore w'umwirabura ari kuvugana n'umugabo w'umuzungu, bari mu cyumba gisize amarange y'umweru, harimo n'ibikoresho byo mu gikoni, hakaba harimo n'igikoresho gikonjesha, hirya y'uwo mugore hari udutebe two kwicaraho igihe umuntu ari gufata ifunguro.

Inzu iteguye neza irimo intebe isa n'umuhondo n'iyindi isa n'ivu n'akameza gasa n'igitaka, ikaba ikodeshwa amadolari magana inani iherereye i Kigali.

Ikibanza cyiza, gishobora kubakwamo inzu nini, iteye neza, ifite ibyumba bigari, giherereye Kigali, Musave, Bumbogo, kiragurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Icyumba gisize irangi ry'ubururu ndetse n'irindi risa n'ivu ririmo igitanda kinini gishobora kuryamaho abantu babiri gishashe neza hariho ikiringiti ndetse n'imisego.

Inzu irimo amakaro isize ibara ry'umweru ikaba iri kugurishwa miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda ikaba iherereye muri Kigali.

Umugabo uhagaze, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru n'amadarubindi, akaba afashe ku rugi rurerure rurimo uturongo, rufite ibara ry'igitaka.

Inzu nziza nshyashya iherereye i Kigali muri Kanombe, ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu, ikaba ari inzu ikodeshwa.

Inzu ifite amabati y'umutuku, isize amabara y'ubururu, ndetse umweru n'umukara, ikaba ari inzu iherereye Kabeza, yegeranye n'umurenge, ikaba ari inzu iri ku isoko, igurishwa.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro irimo umukandara, inyuma ye hari inzu isize amarangi y'umweru, ndetse ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ikaba ari inzu ikodeshwa, inzu ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu, ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu isize amarangi y'ubururu umweru ifite igipangu gisa n'ivu, imbere yayo haparitse ipikipiki muhanda w'igitaka, ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda.

Inzu ifite amabati y'umutuku ndetse ikaba isize ibara ry'ubururu, ikaba ari inzu iherereye kigali muri Kicukiro. Ikaba ar’inzu ifite ibyumba bine, ubwiherero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu ifitye imiryango y'icyatsi, ifite isize irange rya kake n'umutuku, iherereye i Kigali Kanombe, ifite ibyumba bitatu n'ubwogero bubiri, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Ntabwo ukeneye kuba munzu nini cyane kuko ushobora kuba muri iyi nzu wowe n'umuryango wawe, kubera ko ifite ibyumba bibiri bitoya. akaba ari akazu gatoya kakirimo kubakwa.

Inzu y'umweru ifite imiryango y'umukara iri mu gipangu kinini cyubakishijwe amatafari ya rukarakara hateyemo ubwatsi iherereye i Kanombe mu busanza ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu irakodeshwa.

Inzu ntoya ifite imiryango y'umweru, ikaba ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwiherero bumwe, iherereye Kigali, Kacyiru, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ari inzu iri mu mujyi wa Kigali ahitwa Kimironko, ikaba ari inzu iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu.

Inzu ifite ibara ry'umukara mwimbere haparitsemwo imodoka y'umweru, iherereye kigali kimironko ifite ibyumba bibiri nubwiherero bubiri ikodeshwa ibihumbi maganatatu mirongo itanu kukwezi.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye birimo imigati, imitobe ndetse n'ibindi byinshi ihagazwemo n'umusore uri gukoresha mudasobwa, imbere ye hahagaze abagabo bari kwishyura bakoresheje za telefone zabo zigendanwa.

Isoko ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa, hakaba harimo abacuruza imyenda ndetse n'ibikoresho by'isuku, harimo n'ishami rya banki ya Kigali.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibigiye bipakiye mu mifuka ifunguye hejuru hariho n'udupapuro tugaragaza ibiciro by'ibyo bicuruzwa. Udufuka ni umwanya ushyirwamo ibicuruzwa ukabifata neza ndetse ukabirinda kuba byanyanyagira.

Abagore n'abagabo bakuze, bicaye ku ntebe ziri mu nzu, ifite amadirishya ariho ibitambaro bibuza urumuri gutambuka, bicaye bategereje serivisi.

Abagore bicaye ku ntebe bafite mu biganza byabo mitiweli n'udutabo two kwa muganga bambaye ibitenge undi afite uruhinja mu ntoki.

Ejo heza zigamira amasaziro yawe ukiri muto, umuryango ushinzwe imibereho y'abaturage m'u Rwanda akaba buri kwamamaza ejo heza kugira ngo umuntu yizigamire nagera mu zabukuru azabe afite amafaranga amufasha igihe atakibasha guku.

Ikarita y'umuhondo yanditseho repubulika y'u Rwanda iriho na minisiteri y'ubuzima umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro, ikaba ari ikarita ya mituweli ifasha abarwayi kwa muganga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'ubururu ihetse imizigo, imbere yayo hariho igare ndetse n'ipikipiki. Iruhande rw'imihanda hateyeho ibiti birebire.

Inzu ishashemo amakaro iteretsemo akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye, harimo ibyo kunywa bikozwe mu mitobe biri mu macupa bisa n'umukara, ibindi bisa n'umutuku, ibindi bisa n'icyatsi ibindi bisa n'icunga rihishije.

Inzu igurishirizwamo ibijyanye n'imitobe, ipanze neza mu tubati, harimo imitobe ipfunyitse mu macupa afite udufuniko dusa n'umuhondo, ahapfunyitse mu dupapuro twabugenewe neza, imitobe ifasha umuntu uyinyweye kuba yashira inyota.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyenda y'umukara akaba afite agakoresho bakoresha bahaha bashyiramo ibyo bashaka kuza kwishyura, ari mu isoko ricuruza ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'ibinyobwa bitandukanye.